Inyubako nziza yubatse neza kandi ifite isuku. Abantu benshi bakunda kugira inyubako zabo isuku, kandi ni byiza. Mu gihe umuntu by'umwihariko ashaka kuyigurisha, ahita abona abakiriya mu buryo bworoshye cyane.